Abantu bicaye hamwe bafite ubumuga bicaye no mu tugare twabo, bambaye imipira y'umutuku, bamwe bateze n'ingofero z'umukara ndetse bambaye n'udupfukamunwa ku minwa.

Abantu bahagaze ku murongo w'urubyiruko n'abasore ndetse harimo n'umukobwa umwe, bazwiho kuba ari abatabazi, bambaye amajiri asa bose kandi y'umutuku ariho ikirango cy'umusaraba.

Abatabazi bamwe tumenyerewe ko batanga ubutabazi bw'ibanze, bambaye bose imipira itukura irimo umusaraba w'umutuku mu mugongo, bafite ingobyi bagiye gushyiraho umurwayi uryamye hasi mu muhanda bigaragara ko yagize ikibazo.

Icyapa kinini kandi kirekire cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere yacyo hari inyubako bigaragara ko ari inyubako ikoramo ikigo nderabuzima, hanze hicaye abantu babiri ndetse hari umuganga ubahagaze iruhande.

Icyumba kinini cyitaruye cyane kirimo abantu benshi, ariko biganjemo abambaye amajiri y'umutuku, arimo umurongo w'umweru utambika ndetse ayo majiri akaba ariho ikirango cy'umusaraba utukura.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'ubururu, afashe indangururamajwi, ari imbere afashe ku kabati, aravuga yizihiwe cyane, bigaragara ko ari kuvuga abwira imbaga nyamwinshi imukurikiye.

Imodoka iparitse izwiho nk'ingobyi y'abarwayi cyangwa se imbangukiragutabara. Iparitse imbere y'inyubako by'ibitaro bya Nyagatare, bigaragara ko itegereje umurwayi.

Umugore ufite imisatsi igwa inyuma mu mugongo, yambaye ibitenge bisa. Ari imbere y'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, wambaye n'amarinete mu maso. Bari kuganira amwitegereza.

Abagabo batatu bari ku bukarabiro babiri barimo gukaraba bambaye n'udupfukamunwa ndetse uw'inyuma we ategereje ko aba mbere barangiza gukaraba ndetse ahantu bari hari amapoto acaho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako nyinshi zitandukanye bigaragara ko ari ku ivuriro hakaba hari ubusitani hafi yaho ndetse n'indabyo nini hari n'ubwoko bw'ururabyo rumeze nk'umugwegwe.

Abaganga batatu bahagaze mu cyumba, haryamyemo umurwayi wiyoroshe, bose barahagaze bari kumwitegereza bambara udupfukamunwa ariko umwe muri bo ari kumwitaho ku mutwe.

Abagabo babiri bari mu kibuga bari guterera umupira mu kirere, imbere yabo hari abana ndetse haruguru hari abagore bari kubitegereza, bari hagati y'inyubako nini cyane imeze nk'ishuri.

Abantu batandukanye abagore n'abagabo ndetse n'abana bicaye ku kigo nderabuzima, hari umuganga usohotse uje kubabaza kugira ngo babahe serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Kwa muganga hari umunyabuzima urimo kubara ibinini ndetse hakaba n'undi muganga wicaye ari kwandika, afite ikayi nini n'ikaramu aragenda yandika. Mu inzu barimo harimo imiti itandukanye.

Umubyeyi w'umugore, akikiye umwana mu ntoki. Ni umwana muto uri mu kigero k'imyaka ine, kandi uwo mwana yambaye agapira. Hanyuma umubyeyi afite ifishi mu ntoki bigaragare ko avuye kumukingiza kwa muganga.

Abantu benshi bahagaze hanze y'inyubako y'ibitaro bari kwifotoza ni abagabo n'abagore, harimo abagabo bambaye amakote ndetse n'abambaye amataburiya ndetse harimo n'abagabo bambaye ibisanzwe.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse hakabamo n'ubukarabiro, iruhande rwayo hari agatanda gatoya gateretseho igitambaro ndetse hakaba n'insinga nyinshi zigiye zigera kuri buri gikoresho.

Abana batoya cyane bari mu kigero k'imyaka ibiri ndetse n'itatu, bicaye ku meza amwe bose bari kurya, buri mwana n'isahani ye hejuru yabo hahagaze ababyeyi bari kubitegereza bizihiwe ubona ko aribo bari bari kubagaburira.

Abana batoya cyane bari mu kigero k'imyaka irindwi cyangwa umunani. Bicaye mu cyumba kirimo ameza ariho za mudasobwa. Buri mwana yafunguye mudasobwa ye, ari kureba ibiyirimo.

kicyumba cyo kwa muganga kiryamyemo abarwayi ku bitanda, ariko abo barwayi n'abagore gusa, hejuru y'ibyo bitanda hari inzitiramibu ariko ziramanitse ntabwo bazirambuye.

Kwa muganga hari abarwayi ndetse hakaba n'umuganga, ku meza hariho ikayi n'ikaramu, umuganga ari kubaza ibibazo bitandukanye umurwayi kugira ngo abone aho ahera amuvura.

Umunyabuzima uhetse umwana ndetse akaba arimo kuvura undi mwana utewe n'umugabo, uwo mwana bikaba bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo ndetse afite igikombe mu ntoki ashaka kumuha n'umuti.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe basa nk'abari kwifotoza ifoto, imbere hari abana batoya cyane bari mu kigero k'imyaka ibiri, itatu, ine, kugera kuri itanu, hari n'abantu bahagaze imbere bameze nk'ababyeyi babo.

Abagore, abagabo, benshi cyane bizihiwe nk'abari mu mahugurwa, bambaye imipira isa y'icyatsi kibisi, batonze umurongo barizihiwe kandi bari kubyina banaririmba.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru akaba ari mu nzu icuruza imiti itandukanye, hakaba hajemo umuguzi bigaragara ko aje gushaka imiti, nyir'ukuyicuruza ari kumwereka iyo ashaka.

Iduka rizwiho gucuruza imiti ivura abarwayi, hahagazemo umugore wambaye amarinete, ari imbere ya mudasobwa bigaragare ko ari kuyikoresha. Inyuma ye hari ububiko bw'imiti igiye itandukanye.

Inkoko ebyiri ziri ku ifoto, ziri ahantu henshi hatandukanye ku bishashi runaka ndetse ibyo bishashi bigaragara ko harimo umuti uvura inkoko.

Abantu benshi abagore, abagabo ndetse n'abasore n'inkumi, bicaye mu cyumba kimwe ab'imbere barizihiwe bigaragara ko bari ahantu bari guhabwa ibiganiro.

Abagabo bambaye ingofero z'umweru n'udupfukamunwa tw'umweru bafite ibyuma byifashishwa mu kuzimya ahari inkongi y'umuriro ndetse harimo n'umupolisi bigaragara ko ariwe ubayoboye.

Abantu bicaye ahirengeye cyane, bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'amakoboyi ndetse n'amagofero y'umweru, imbere yabo kandi hari abashinzwe inzego z'umutekano na bo bicaye.

Abapolisi babiri bahagaze ku murongo ahantu mu cyumba, ni uw'umugore ndetse n'umugabo ariko kandi hari abandi bantu bari muri icyo cyumba batonze ku murongo umwe.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, mu ntoki afite indangururamajwi ndetse yambaye amarineti, inyuma ye hari icyapa cyanditseho RBC, ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima.

Umugabo wunamye atwaye agafuka mu mugongo ndetse yambaye ingofero y',umutuku atwaye kandi isaha mu ntoki ari kumwe n'umugore we ukikiye umwana w'uruhinja.

Ibimera bitohagiye cyane ndetse bifite amababi yayangitse, ni ibimera byifashishwa bakoramo umuti gakondo wo kuvura indwara runaka.

Isekuru irimo umuhini ndetse n'ikimera gifite amababi maremare bigaragara ko bari gutegura umuti gakondo ukoze mu bimera, hasi hari ibindi bimera bitandukanye bigaragara ko na byo biraza gusekurwa bikavangwa kugira ngo bakoremo umuti.

Abagabo bane ndetse n'umugore umwe, bahagaze ahantu ku kibuga ndetse bashingura intambwe bigaragara ko bari kugenda, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu yanditseho amagambo.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse ni inyubako ubwayo iteye irangi ry'ubururu, hanze hari abantu ndetse no ku rubaraza rwayo harimo abantu bahagaze, hanze y'iyo nzu hari umubyeyi w'umumama uri kuvugira mu ndangururamajwi kandi yakenyeye.

Ababyeyi bambaye amataburiya asa bafite amasahane mu ntoki ariho ibiryo, batonze uruziga ndetse yewe n'abagabo barimo.

Umuganga yicaye mu cyumba cy'abarwayi, muri icyo cyumba harimo igitanda gishasheho amashuka y'umweru gusa nta murwayi ukirwayeho.

Inzu isize amarangi y'ubururu, yanditseho n'amagambo, hari gusohoka abantu benshi, hejuru y'inzu hejuru y'umuryango w'iyo nzu, handitseho amagambo agira ati gira ubuzima.

Umurwayi urwaye cyane ndetse bari gupima ku nda bigaragara ko ari umugore utwite, uwo muganga urimo kumuma afite icyuma imbere ye arimo arareberamo kugira amenye uko uwo mubyeyi ahagaze.

Umukecuru yagiye kwivuza kwa muganga akaba ari kwitabwaho n'umuganga w'umugabo urimo kureba ko umutima utera neza, akaba yifashisha ibikoresho byabugenewe bivubura cyangwa bipima umuvuduko w'amaraso.

Kimwe mu byumba biba kwa muganga harimo umuganga ndetse n'abarwayi babiri, baje kuvuza aho bicaye bategereje ko babaha imiti, kuri ayo meza hariho uducupa twinshi tw'imiti itandukanye.

Abaforomokazi bose bari ku meza amwe umwe ari kwandika ku rupapuro ku meza, bose bambaye imyenda isa y'akazi ndetse bambaye n'udupfukamunwa dusa.

Umurwayi uryamye ku bitaro, ni umusore aryamye ku gitanda kwa muganga na ho umuforomo ari kumusuzuma.

Abagore babiri n'umugabo umwe bicaye mu cyumba cyo kwa muganga, umugore umwe afite ifishi iriho n'ifoto, bombi bateruye umwana.

Icyumba kirimo ibyuma byinshi bikoresha amashanyarazi, hicayemo umusore yambaye agapfukamunwa ndetse afite na mashine cyangwa se telefone mu ntoki nini cyane.

Abantu bicaye mu cyumba kimwe hari n'abandi bahagaze, bitegereje umuntu umwe uhagaze ari kubabwira, hagati aho harimo abambaye amataburiya asa bigaragara ko ari ku kigo nderabuzima.